Ku nyubako ndende hamanitseho icyapa gisa ubururu, cyamamariza ubwishingizi buzwi nka Saniramu. Hariho ifoto y'umukobwa wambaye isengeri y'umweru, ndetse n'imikenyero arimo kubyina.

Icyapa cyamamaza serivisi z'ubwishingizi buzwi nka radiyanti hariho ifoto y'abantu batatu, hariho umugore uri guseka, umugabo uteruye umwana biragaragarako bose bishimye.

Icyapa cyamamaza serivisi z'ubwishingizi buzwi nka Muwa, hariho ifoto y'abantu batatu umugore umwe n'abagabo babiri bambaye amakoti y'imikara, bafatanye mu kiganza umwe arimo guseka.

Icyapa cyamamaza serivisi z'ubwishingizi buzwi nka buritamu, hariho ifoto y'umuganga wambaye umwenda w'akazi, arimo guseka, arambuye ikiganza.

Icyapa cyamamaza ibigendanye n'ubwishingizi hariho ifoto y'abantu batatu, umugore mugabo ndetse n'umwana, bose bambaye udupira tw'umweru bigaragara ko bishimye, bombi baricaye umwana arahagaze.

Ku cyapa cyamamaza serivisi z'ubwishingizi, hariho ifoto y'abantu bane, umugabo umwe n'umugore umwe n'abana babiri, biragaragara ko bose bishimye barimo baraseka.

Icyapa cyamamaza serivisi z'ubwishingizi kiriho ifoto y'abantu bane, harimo umugabo wambaye ishati ijya gusa icyatsi n'umugore n'umwana w'umukobwa wambaye agakanzu gatukura ndetse n'umwana w'umuhungu, bose barimo guseka.

Ku cyapa cyamamaza serivisi zijyanye n'ubwishingizi, hariho ifoto y'umutaka utwikiriye inzu igeretse, n'amagambo yanditse mu ibara ry'umuhondo.

Icyapa cyamamaza serivisi z'ibijyanye n'ubwishingizi, hariho ifoto igaragaza ahantu habaye inkongi y'umuriro idasanzwe.

Mu iduka hamanitsemo imyenda icuruzwa, harimo amakanzu, ibitenge, amakoti adozwe mu bitenge ndetse n'udupaniye dufite imishumi.

Mu iduka harimo inkweto zitandukanye, harimo izisa umukara n'izisa umutuku n'izindi zifite andi mabara ndetse n'ibikapu bifite imishumi by'amabara atandukanye, imbere hateretse ameza ariho amasashi.

Iduka ririmo ibicuruzwa bitandukanye, harimo nk'imyenda y'amakanzu, amashati y'amabara atandukanye bimanitse ku rukuta, hari n'ameza ateye ariho ibindi bicuruzwa bitandukanye.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bitandukanye harimo inkweto zifunze z'amabara atandukanye, zimwe zisa umweru, izindi zisa umutuku, harimo n'ibikapu by'abagore bisa umukara ndetse n'udukapu dutoya tw'abakobwa.

Mu iduka harimo udukomo twinshi tw'amabara atandukanye ndetse n'ibishushanyo bishushanyijeho inyamaswa zo mu gasozi, ibindi bishushanyijeho abakinnyi b'umupira, ibindi bishushanyijeho ababyinnyi ndetse n'ibindi bishushanyijeho imitako ndetse n'ibikoresho bya kinyarwanda nk'uducuma.

Mu iduka hahagazemo abantu babiri, umugore ndetse n'umusore wambaye umupira w'umweru, umwe arimo kwishyura, hamanitsemo imyenda itandukanye ndetse imbere yabo hariho mudasobwa.

Inzu y'ubucuruzi, irimo ibicuruzwa bitandukanye, higanjemo ibikapu by'abagore, bimwe bisa umweru n'ibindi bisa umukara, harimo n'ibindi bicuruzwa ndetse n'udukapu dutoya tw'amabara anyuranye ndetse n'ingofero.

Icyumba bacururizamo imyenda harimo imyenda itandukanye harimo amashati y'amaboko maremare y'umukara amakanzu magufi y'umukara n'imipira y'ubwoko butandukanye y'umuhondo n'indi ifite ibara ry'umweru.

Iduka bacururizamo imyenda, ririmo imyenda itandukanye harimo amashati y'umutuku y'amaboko maremare, udukote tugufi tw'amaboko maremare dusa umutuku , udusengeri tw'umweru ndetse n'amapantaro y'amakoboyi asa umukara.

Mu nzu y'ubucuruzi harimo umukobwa wambaye umupira w'umukara wishimye cyane urimo guseka, imbere ye hari ameza afite ibara ry'umutuku ateretseho amakarito atandukanye.

Iduka ririmo imyenda yiganjemo amakote meza y'amabara atandukanye, harimo asa ubururu, umweru, umukara, ndetse n'andi asa umuhondo.

Iduka ririmo abantu babiri b'abagore umwe yiteze igitambaro gisa umweru, yambaye n'ishati itukura afashe ikaramu mu ntoki barimo kuganira; inyuma ye hari ibicuruzwa bitandukanye harimo ibirungo ndetse n'amasabune.

Mu iduka harimo ibicuruzwa nk'uduseke dusa umuhondo ndetse n'ibindi bicuruzwa biriho amafoto agaragaza ibikoresho gakondo ndetse n'inka.

Mu isoko ry'imyenda hamanitsemo amakanzu y'ubwoko butandukanye afite amabara anyuranye ariko yose afite amaboko maremare, ku ruhande hamanitse amapantaro y'amakoboyi y'umukara.

Mu gikari, haparitse imodoka nto iriho icyapa kigaragaza ko igurishwa ndetse n'igiciro cy'amafaranga igurwa; imbere yayo hariho icyapa kigaragaza aho wayisanga hacururizwa imodoka, mu mujyi wa Kigali.

Imodoka nyinshi zo mu bwoko bw'imodoka ntoya ziparitse ahantu hamwe zose zisa neza bisa nkaho ari nshyashya kandi zose zirasa umweru nta muntu n'umwe uhahagaze.

Icyumba gitangirwamo serivisi zigendanye no kubikuza, hicayemo abagabo babiri, umwe yambaye ishati y'umweru, imbere ye ahari telefone ndetse na mudasobwa, ku ruhande hari icyuma gisize irange ry'umweru, cyifashishwa mu kubikuza.

Icyumba gitangirwamo serivisi zo kubikuza harimo abantu babiri bicaye, umwe afashe inote mu ntoki arimo kubara, ku ruhande hari mubazi n'izindi mashini zitandukanye zifashishwa mu kubikura.

Icyumba gitangirwamo serivisi zo kubikura, harimo mubazi yifashishwa mu kubikura, harimo n'umugabo ufashe ku mifungo y'amafaranga, afatishijeho ikiganza, iruhande rwe hari intebe imanitseho ikote ry'umukara.

Icyumba gitangirwamo serivisi zo kubitsa no kubikura, hicayemo umuntu ufite mudasobwa imbere ye, hanze ku idirishya hari umugabo urimo gusinya, inyuma ye hari abandi bagabo benshi bategereje kwakirwa.

Ku muryango w'inzu ikorerwamo ubucuruzi, hateretse amajerekani ane asa umweru, atwarwamo amazi agurishwa azwi nka jibu.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bitandukanye harimo amata ari mu bikarito n'andi ari mu tujerekani duto dusa umweru ndetse n'uducupa dutoya turimo yawurute.

Mu iduka harimo ibicuruzwa bitandukanye, bimwe biri mu tudobo bisa nkaho harimo utudobo dutanu turimo ibyo kurya bitandukanye, ku ruhande hari imineke isa umuhondo myinshi.

Iduka ririmo ibicuruzwa bitandukanye harimo amabiswi, imigati, amandazi, amata, amazi ari mu macupa manini n'amato. ibinyobwa by'amoko atandukanye, harimo abantu babiri bombi barahagaze umwe afashe akajerekani gasa umweru.

Iduka ririmo ibicuruzwa bitandukanye harimo amazi yo kunywa ari mu macupa mato, n'andi ari mu macupa manini. Amata y'inyange ari mu tujerekani duto, n'andi ari mu ikarito.

Ku meza afite ibara risa umweru, hateretseho isahani iriho amagi atatu ndetse n'agacupa kabikwamo umunyu, ku ruhande hari irindi cupa riharyamye.

Ku ikusanyirizo ry'amata hateretse ibyuma byagenewe kubikwamo amata bitandatu birimo amata, iruhande rwabyo hateretse ubujerekani buto bumwe busa umweru ubundi busa umuhondo, buriho n'imifuniko.

Mu nzu y'ubucuruzi hahagaze abantu babiri, harimo umusore wambaye agapira gasa icyatsi kibisi n'isaha ku kuboko ufashe akajerekani, ku ruhande rwe hahagaze undi mugabo wambaye ishati y'umutuku wambaye indorerwamo, imbere ye hateretse indobo zirimo amandazi ndetse n'imigati.

Icyapa cyamamaza serivisi zo kwishyura hifashishijwe ikoranabuhanga, hariho ifoto y'abantu babiri umugore n'umugabo, umugore afashe ikarito mu ntoki, umugabo yambaye agapira k'umuhondo afashe terefoni na mudasobwa mu ntoki, yambaye n'ingofero isa ubururu n'umuhondo.

Ku cyapa cyamamaza uko wakwishyura umuriro ukoresheje airtel, hariho ifoto y'umusore wambaye agapira k'umukara k'amaboko magufi, arimo gutera ipasi.

Ku cyapa cyamamaza serivisi zo kwishyura ukoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga, hariho ifoto y'umuntu wafashe telefone mu kiganza.

Ku cyapa cyamamaza serivisi zijyanye no kwishyura hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga hariho ifoto y'umukobwa wambaye ikote n'ishati y'umweru afashe impano mu ntoki arimo guseka.

Icyuma gitangirwamo serivisi z'ivunjisha. Harimo mubazi yifashishwa mu gusohora amafaranga, na mudasobwa, ndetse n'umuntu wambaye ishati y'amaboko maremare, wicaye imbere y'ameza.

Icyapa cyamamaza serivisi z'ivunjisha, hariho ifoto y'abantu babiri, barimo guhererekanya amafaranga, umwe ari gukura amafaranga mu gakapu gato, undi na we ayafashe mu kiganza.

Inzu itangirwamo serivisi zo kuvunjisha mo imbere harimo intebe ebyiri, ndetse n'ameza ariho mudasobwa, ku ibaraza ryayo hariho icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku.

Inyubako ndende imanitseho icyapa cyamamaza serivisi z'ivunjisha, iriho imiryango ibiri yo hasi ifunguye, bigaragara ko ari inzu zikorerwamo ibijyanye n'ubucuruzi, imbere y'umuryango hahagaze abagore babiri, umwe arimo kuvugira kuri telefoni.

Mu nyubako itangirwamo serivisi z'ivunjisha, harimo abantu batatu, babiri baricaye, umwe ni umugore wambaye ikanzu y'umukara ndetse n'umusore wambaye agapira k'umweru k'amaboko magufi, imbere yabo hahagaze umugabo wambaye ipantaro y'umukara.

Icyumba kirimo ameza y'ibiti, akikijwe n'intebe na none zikozwe mu biti, nta muntu uhicaye, bisa nkaho icyo cyumba kirimo sima.

Icyumba kirimo amakaro hateyemo intebe nziza zikozwe mu biti zisize irangi ry'umukara, zikikije n'ameza maremare nayo asize irange ry'umukara, inyuma hateyeho utundi dutebe dutoya tubiri.

Inzu igeretse ifite ubusitani bwiza buteyemo intebe n'ameza ndetse n'imitaka, inyuma hariho igiti cy'umukindo.

Inzu ndende igeretse, izwi nka etaje, ifite inkingi enye ndende ziriho amabendera agizwe n'amabara atandukanye.

Hagati y'inzu ebyiri zigeretse hari imodoka nto isize irange ry'umweru ihaparitse, iruhande rwayo nta kindi kinyabiziga gihari nta n'umuntu n'umwe uhahagaze uretse izo nyubako zonyine zihari.

Inzu nziza igeretse isakaje amategura, ifite n'ibaraza ryiza cyane ndetse hari n'impombo zifata amazi ebyiri, imbere y'iyo nyubako haparitse imodoka nto ebyiri. Ku mpande hari ubusitani bwiza buteyemo ibiti bitanga akayaga.

Muri hoteri harimo intebe nyinshi zirimo n'imifariso, hagati yazo hateyemo utumeza duto turiho indabo zigizwe n'amabara atandukanye ziteretse mu icupa.

Ibiro bitangirwamo serivisi z'ubwishingizi, imbere ku muryango hari imitako y'amabara atandukanye harimo umweru ndetse n'ubururu, hari n'intebe itarimo umuntu.

Ku nkengero z'umuhanda hari ibyapa bibiri byamamaza serivise zijyanye n'ubwishingizi, inyuma yazo hariho umuryango urimo abantu benshi.

Inyubako ndende iriho icyapa cyamamaza serivisi zijyanye n'ubwishingizi buzwi nka Radiant, hariho imiryango ibiri yo hasi ifunguye ikorerwamo ibijyanye n'ubucuruzi, imbere yayo haparitse moto ebyiri ndetse hahagaze abantu, harimo umugabo wambaye agapira k'umukara k'amaboko magufi, ku ruhande rwe haparitse n'imodoka.

Imbere y'umuryango w'inzu itangirwamo serivisi z'ubwishingizi, haparitse imodoka isa umweru mo imbere mu nzu, hateyemo intebe ebyiri zisa umutuku n'izindi ebyiri zisa ubururu hariho na mudasobwa.

Mu biro bya kompanyi itanga serivisi zijyanye n'ubwishingizi, harimo abantu bane, umugore umwe arimo kuvugira kuri telefoni aseka imbere ya hariho mudasobwa, abandi batatu baricaye.

Mu biro bya kompanyi itanga serivisi z'ubwishingizi harimo abantu benshi bicaye, harimo abarimo gushaka serivisi ndetse n'abarimo kuzibaha bambaye udupfukamunwa.

Inzu itangirwamo serivisi z'ubwishingizi buzwi nka muwa, harimo abantu babiri bicaye. umwe yicaye aho bakirira abantu, undi yicaye ahatangirwa serivisi, imbere ye hari mudasobwa.

Ku nkengero z'umuhanda wa kaburimbo hubatse inyubako ndende itangirwamo serivisi z' ubwishingizi buzwi nka Sanlam. Imbere hari abantu batandukanye barimo kugenda, harimo umusore wambaye ishati y'ubururu ndetse n'umumotari utwaye umugenzi.

Ku cyapa cyamamariza banki y'abaturage. Hariho ifoto y'umusore ateruye umukobwa baseka cyane bigaragara ko bose bishimye, umukobwa yambaye agakote.

Mu cyumba cy'intama harimo itsinda ry'urubyiruko bose bambaye udupfukamunwa, bamwe bambaye udusa umukara abandi dusa umweru n'ubururu, bambaye impuzankano n'udupira tw'amoboko magufi dusa icyatsi twanditseho amagambo.

Icyapa cyamamaza gahunda yo guteza imbere umugore, hariho ifoto y'abagore babiri barimo guseka bigaragara ko bishimye, umwe yambaye isarubeti y'umukara iriho umufuka.

Ku cyapa cyamamaza serivisi zitangirwa muri banki y'abaturage, hariho ifoto y'umukobwa urimo guseka, wambaye agapira k'umweru k'amaboko magufi n'ingofero y'umweru ndetse yambaye n'isaha ku kuboko.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye harimo imyuko, inkoko, amabase, ibikapu bidoze mu bitenge, ibitenge ndetse n'ibindi bicuruzwa bitandukanye nk'uduseke n'indi mitako.

Ku muhanda w'igitaka hari abantu benshi harimo abagore bicaye ndetse n'abandi bantu bahagaze, hateretse indobo isa ubururu ndetse n'ibase y'icyatsi kibisi, hahagaze umugore wambaye agapira gatukura ukenyeye n'igitenge.

Mu isoko harimo urujya n'uruza rw'abantu, hari ahantu hateretse ibitoki byinshi, hahagaze n'abantu benshi, harimo abambaye amashati y'umuhondo ndetse n'abandi bantu bunamye barimo kugura.

Mu isoko harimo inyanya ziri mu tubase n'imbogarwatsi zitandukanye hahagazemo abagore babiri barimo guseka iruhande rwabo bahagaze umugabo wambaye umupira w'umukara

Isoko ririmo abantu benshi batandukanye, harimo abakobwa abasore n'abagore, bamwe bahetse ibikapu, harimo imyenda itandukanye n'ibikapu bimanitse, harimo imyenda nk'amapantalo ibitenge ndetse n'ibikapu bitandukanye.

Mu isoko ry'ibiribwa harimo imbuto zitandukanye, harimo avoka, iz'icyatsi ndetse n'izisa umukara harimo amacunga, inyanya, ibijumba, ibitoki, imineke, harimo umugore urimo kutandika avoka, iruhande rwe hahagaze umugabo.

Ku nkengero z'ikiyaga hari abantu benshi harimo abagore babiri bicaye, umwe yambaye umupira w'umukara yiteze n'igitambaro gisa umuhondo, afashe icyuma mu ntoki n'ifi, imbere hateretse ibase irimo amazi n'amafi, akikijwe n'andi mabase harimo isa icyatsi na yo irimo amafi.

Mu isoko harimo ibicuruzwa byinshi bitandukanye, harimo ibitunguru, inyanya, tungurusumu, puwavuro ndetse n'intoryi, n'ibindi bicuruzwa byinshi harimo imbuto nk'amacunga, amatunda, harimo abantu benshi bamwe bicaye abandi bahagaze barimo kugura, hicayemo n'umugore ufasha umwana, uwo mugore yambaye agapira k'umweru k'amaboko magufi.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye higanjemo amakanzu adoze mu bi bitenge by'amabara atandukanye, harimo abantu babiri barimo kugura, harimo umukobwa wambaye ikanzu irimo amabara y'umuhondo n'undi wambaye ipantaro uhagaze, yifashe mu mifuka.

Mu isoko harimo ibicuruzwa byinshi higanjemo imbuto, harimo ibitoki byinshi, karoti, inyanya, ibitunguru ndetse n'imboga rwatsi, harimo abaguzi batandukanye harimo abahetse abana ndetse n'abandi bantu bicaye.

Mu isoko ry'ibiribwa harimo ibicuruzwa bitandukanye, harimo inyanya, intoryi, imboga rwatsi, karoti, ibitunguru ndetse n'ibirungo by'amoko atandukanye. Harimo abacuruzi, harimo umugore wambaye agapira k'umweru k'amaboko magufi, iruhande rwe hateretse ibase ndetse n'indobo irimo ifu y'ubunyobwa.

Isoko ririmo abantu bicaye inyuma yabo harimo ibicuruzwa bitandukanye, harimo inkoni z'ibiti n'ibikapu bikozwe mu bitenge n'uduseke.

Mu muhanda harimo moto eshatu ndetse no ku mpande hariho abanyamaguru barimo gutambuka, bamwe bamanuka abandi bazamuka, imbere y'iyi nyubako ndende haparitse imodoka zitandukanye, ari izisa umweru n'izisa umukara, zose ziri mu bwoko bw'imodoka nto.

Mu isoko ry'ibiribwa harimo imbuto zitandukanye, harimo imineke, inanasi, ibinyomoro, amacunga, harimo n'ibindi bicuruzwa bitari ibiribwa, harimo udukapu, ibitenge, hanahagazemo abantu benshi.

Mu isoko harimo umugore uri gucuruza imboga zitandukanye, harimo imboga rwatsi, karoti ndetse harimo n'ibindi bicuruzwa biri imbere ye, bimwe biri mu mabase ibindi biri mu tudobo no mu dusashi, iruhande rwe hahagaze umusore n'undi umwe wicaye wambaye ishati itukura.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye harimo: ibishyimbo, avoka, imineke, amacunga, inanasi, ibinyomoro. Ririmo umugore wicaye wambaye umupira w'umukara w'amaboko maremare.

Mu isoko ry'imyenda harimo imyenda itandukanye, harimo udupira tw'umutuku, udusa umweru n'indi myenda itandukanye, hahagaze abagabo babiri ndetse hari n'abandi basore babiri bari kuva mu isoko bazamuka.

Mu isoko harimo imyenda y'ubwoko butandukanye, harimo amakabutura magufi, imyenda y'abana, iy'abantu bakuru, ibikapu bidoze mu bitenge ndetse n'amapantaro y'amabara menshi.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye harimo amagi, imifuka ndetse n'indobo irimo ifu y'ubunyobwa, hahagazemo abagore babiri barimo kuganira bombi biteze ibitambaro.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye harimo ibikapu,, uduseke ibitenge n'ibindi bikapu bidoze mu bitenge harimo n'abaguzi batandukanye harimo uri kugura igitambaro.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye, harimo ibitenge by'amabara atandukanye, hicayemo abantu babiri, umusore ufashe terefone mu ntoki n'umugore wambaye ibitenge, imbere ye hahagaze abantu bagera muri batatu, harimo umusore wambaye agapira k'umutuku k'amaboko magufi.

Mu isoko ry'ibiribwa harimo imbuto zitandukanye ndetse n'ubwoko bw'imboga butandukanye, harimo karoti, tungurusumu, pavuro, ibitoki ndetse n'amacunga.

Mu nzu itangirwamo serivise za Airtel isize irange ritukura ririho n' ikirango cya Airtel. Hahagaze abantu barimo guhabwa ubufasha, hari n'abandi bicaye batarahabwa ubufasha.

Mu kazu gasize irangi ry'umuhondo hatangirwamo serivisi za emutiyene harimo umuntu umwe wambaye umupira w'amaguru maremare, hanze hahagaze abandi bantu babiri umwe wambaye ikote ry'umukara undi wambaye ingofero.

Inzu y'ubucuruzi inatangirwamo serivisi za MTN, hahagazemo umukobwa wambaye umwenda w'akazi usa umuhondo wo muri MTN, iruhande rwe hari ibicuruzwa bitandukanye harimo nk'imyenda, hanateye intebe zisa icyatsi kibisi.

Mu kibuga harimo itsinda ry'abantu benshi bahagaze, harimo umusore umwe wambaye ishati y'ubururu ufashe ikaye yo kwandikamo, imbere yabo hateye ameza, hariho umuntu wambaye ishati y'umutuku wunamye.

Mu nkengero z'umuhanda hashinze umutaka usa umuhondo, ndetse hari n'igitambaro cy'umuhondo, hicaye umuntu umwe wambaye umupira uriho ikirango cya MTN, imbere ye hari abantu benshi arimo gusobanurira, hateretse n'icupa ry'amazi.

Icyumba gitangirwamo serivisi za Emutiyeni harimo, abagabo bane harimo uwambaye umupira w'umuhondo w'amaboko magufi usa nkaho ari uwabakozi ba Emutiyeni, harimo umugabo uri gusinya ndetse n'undi uhagaze urimo kumwereka aho gusinya wambaye indorerwamo.

Ibaraza ry'inzu ririho ikirango cya Eyateri, harimo abantu benshi, harimo abambaye impuzangano y'udupira tw'umutuku tw'amaboko magufi, turiho ikirango cya Eyateri n'abandi bisa nkaho barimo gusaba serivisi.

Ahatangirwa serivisi za Emutiyene, hahagaze umuntu, imbere ye hari telefoni n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga bibiri, ndetse n'icyapa cya Emutiyene.

Isoko ry'imyenda rimanitsemo amapantaro y'amakoboyi arimo amabara atandukanye amwe asa umukara andi asa umweru, ku giti hamanitseho urupapuro rw'umuhondo ruriho icyapa cya MTN, inyuma yarwo hahagaze umugabo wambaye imyenda ya MTN.

Imbere y'icyapa cyamamaza serivisi zitangwa na MTN, hari umugabo uhagaze wambaye agapira k'amaboko magufi gasa umuhondo na moto isa umuhondo, inyuma ye hari imodoka isa umukara.

Mu kazu gatangirwamo serivisi za MTN gasize irangi ry'muhondo, harimo umukobwa wambaye umupira w'umukara, inyuma hahagaze abagore babiri ndetse n'abagabo batatu.

Ku muhanda w'igitaka hari utuzu tubiri dutangirwamo serivise za Eyateri na Emutiyene. Kamwe gasize irange ritukura hariho ikirango cya Eyateri akandi gasa umuhondo kariho ikirango cya Emutiyene, mo imbere haciyemo abantu babiri barimo kwakira ababagana, ku ruhande hahagaze abagabo babiri.

Mu kazu gatangirwamo serivisi za MTN, gasize ibara ry'umuhondo, harimo umugabo wambaye umupira w'amaboko magufi usa umweru, imbere hagaze abana bato.

Umuhanda wa kaburimbo uriho igipangu gisize irange ry'umuhondo, urimo moto enye ziparitse zitwaye amakarito asize irange ry'umuhondo.

Ku ibaraza ry'inzu itangirwamo serivisi z'ubucuruzi bwifashishije ikoranabuhanga haparitse imodoka isa umuhondo iriho n'ibara ry'ubururu.

Imbere y'igipangu gifite urugi rusize irangi ry'ubururu, hahagaze umugabo ufashe igikarito mu ntoki ze, yambaye umupira w'imbeho w'umutuku. Iruhande rwe haparitse moto, iriho ikindi gikarito gisa umutuku.

Ku ibaraza ry'inzu itangirwamo serivisi z'ubucuruzi bwifashishije ikoranabuhanga, haparitse moto ndetse n'imodoka y'icyatsi kibisi. Hateye n'indabo zitandukanye.

Ku ibaraza ry'inzu hahagaze abantu babiri umukobwa wambaye ikanzu ndetse n'umusore wambaye ishati y'amaboko maremare barimo kuganira inyuma yabo hateye ibiti bikeya bitanga akayaga.

Inzu ndende isize irange ry'umweru ifite igipangu gisize irange ry'umukara, irimo kugurishwa iherereye Kimironko Zindiro.

Ku ibaraza ry'inzu nini isize irange ry'umweru ndetse n'irange risa ubururu ku nzugi no ku madirishya hahagaze umugabo wambaye ishati y'umweru y'amaboko maremare.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bitandukanye, hahagazemo umukobwa uhagaze imbere y'imbuto, harimo amatunda, ibinyomoro ndetse n'ibitunguru, biri imbere ye.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bitandukanye; bimwe biri iburyo ibindi biri ibumoso, harimo n'abaguzi benshi, muri ibyo bicuruzwa harimo nk'ibikapugu byinshi bimanitse hejuru, ndetse n'ibindi bicuruzwa bimanitse hasi.

Mu isoko ry'ibiribwa harimo ibicuruzwa bitandukanye. Nk'inyanya, ibitunguru, karoti, intoryi, imiteja, imboga rwatsi. Harimo n'abandi bantu bahagaze barimo guhaha.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bitandukanye, harimo imyenda y'amakanzu, imipira y'imbeho, harimo umupira usa ubururu urimo n'amabara y'umweru, harimo udukapu duto twifashishwa mu guhaha ndetse n'indi myenda y'ubundi bwoko, hagati hicayemo umusore.

Inzu yubucuruzi irimo abantu benshi, harimo umugabo wambaye ishati y'ubururu uhagaze imbere yabo, harimo ibicuruzwa byiganjemo ibikapu by'abagore, harimo n'inkweto ndetse n'imyenda.

Inzu ikorerwamo ibijyanye n'ubucuruzi, harimo ibicuruzwa bitandukanye kandi harimo n'abantu benshi barimo kugura, benshi bambaye udupfukamunwa, harimo umugore uhetse igikapu, wambaye ikanzu, ku ruhande rwe hahagaze n'abandi bantu barimo kugura.

Mu isoko harimo abantu benshi n'ibicuruzwa bitandukanye, harimo umuntu wambaye imyenda y'akazi, isa umutuku ndetse n'agapira k'umweru k'amaboko magufi, imbere ye hahagaze abantu benshi harimo abambaye udupira tw'ubururu.

Mu nzu y'ubucuruzi harimo ibicuruzwa byinshi, imbere hateretse mudasobwa, ndetse hari n'ameza ariho impapuro, na mubazi yifashishwa mu kwishyura, muri iyo nzu harimo abantu bake, harimo umugabo wicaye, ndetse n'abandi bantu babiri bahagaze.

Inyubako ndende ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi, hanze hahagaze umugabo uri kuvugira kuri terefoni. Ku nyubako yo hasi hariho ibicuruzwa bitandukanye, harimo amakanzu y'amabara atandukanye amanitse ndetse n'imyenda y'abagabo.

Itsinda ry'abantu benshi baricaye, bamwe muri bo bafashe impapuro zisa umweru, harimo n'umwe yafashe n'ikayi isa umutuku n'abagabo babiri bambaye ingofero z'umukara, umwe afashe inkoni.

Muri mudasobwa harimo ikirango cy'ubwishingizi buzwi nka RSSB ndetse harimo intoki z'umuntu urimo kwandika muri iyo mudasobwa zonyine.

Abaturage benshi bateraniye hamwe, bari mu gikorwa cyo kwamamaza ubwizigame buzwi nka ejo heza ndetse n'ubwishingizi buzwi nka saniramu, harimo inzego zishinzwe umutekano, bambaye umwenda w'akazi ndetse n'ingofero zisa umukara.

Ku ivuriro hari abantu bane, hari umwana wicaye ku ntebe y'urubaho yambaye agapfukamunwa, hari undi mumama wambaye ikanzu y'umukara na we yambaye agapfukamunwa arahagaze, n'abandi bagore babiri bambaye udupfukamunwa.

Ku ivuriro hicaye abaturage batandukanye baje kwivuza, bose bafite impapuro n'amakaye yo kwa muganga, baricaye bisa nk'aho bategereje kwakirwa na muganga.

Inzu y'ubucuruzi, irimo ibicuruzwa bitandukanye byiganjemo ibyo kunywa, harimo abantu benshi by'umwihariko bahagaze, abagore batatu umwe yiteze igitambaro, undi mukobwa yambaye agapira gasa umweru k'amaboko magufi, hari n'undi wambaye agapira karimo ibara ry'umutuku.

Inzu y'ubucuruzi irimo amakaro, irimo ibicuruzwa bitandukanye byinshi biri mu udukarito tw'amabara anyuranye, harimo umuntu uhagaze ufashe icupa risa umweru, rifite umufuniko w'ubururu.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye, byiganjemo imbuto nk'inyanya, amacunga, karoti, imineke, ibijumba, harimo umuntu umwe, wambaye agapira k'icyatsi kibisi.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa byinshi, higanjemo ibinyobwa by'amoko menshi, hahagazemo umugabo wambaye ikoti ry'umukara, arahagaze afashe terefone mu ntoki.

Mu isoko rinini ririmo ibicuruzwa byinshi harimo abantu benshi, bamwe bari kugura abandi barahagaze; harimo umugabo ufasha umwana, amatara arimo kwaka, birasa nk'aho ari nijoro.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bitandukanye, harimo ibyo kunywa, amacupa arimo amavuta y'amazi, hahagaze umukobwa wambaye ikote ry'ikoboyi n'ijipo ngufi y'umukara, afashe ku icupa ririmo amavuta.

Mu isoko ryagutse harimo ibicuruzwa byinshi, hahagazemo umusore urimo kugura imbuto, iruhande rwe hari ibindi bicuruzwa nk'avoka zisa umukara, ibitunguru, n'ibindi bintu byinshi bitandukanye.

Mu isoko ryagutse harimo umukobwa wambaye indorerwamo, arimo kugura ibintu bitandukanye, imbere ye hateretse inanasi, yambaye n'isashi mu kiganza, bisa nk'aho akirimo gutoranya ibyo kugura.

Inzu nini y’ubucuruzi irimo abantu benshi, harimo n’abantu babiri bambaye imyenda y'umuhondo, umwe afite kamera mu ntoki arimo gufata ifoto undi nawe arimo gufotoza terefone, iruhande rwabo hahagaze undi mukobwa wambaye agapira gasa ubururu k'amaboko magufi.